Ni umurwayi n'umuganga, umuganga yari ari kuvura umurwayi ari kumupima ngo arebe ko umutima we uri gutera neza.

Umuturage wari waje kugura amata ku Nyange, harimo abakozi ategereje yuko bamwakira kugira ngo asubire mu rugo.

Ni isoko ricuruza imbuto, harimo abarimo kugura hakaba harimo n'abarimo kugurisha kugira ngo bose bahane serivisi.

Ni inyubako y'umuntu abamo ariko mu kuyibamo akaba ashaka kuyigurisha.

Ni icyumba kimwe cyo mu nzu hitwa dushe bakarabiramo iyo bagiye ku kazi cyangwa se igihe bumva bashyushye cyangwa se igihe bumva bafite umwanda nyine bagakarabira mu cyumba cyitwa dushe.

Ni aho bajya gushaka icyangombwa cyo kugira ngo bajye gukora ubukerarugendo, bagiye gusura nka pariki runaka cyangwa se ibintu runaka.

Ni ahantu mu rugo rw'umuntu ariko hakaba hari harangiritse mu mbuga, kwangirika mvuga ni ugusenyuka kugira ngo bazahasane.

Ni ahantu hari isoko nka arimantasiyo, harimo abantu bari kugura n'abari kugurisha, harimo n'abandi bantu barimo gukamera.